Abantu benshi bicaye mu nzu mu imbere, harimo amatara ari kwaka bose bafite amakaye n'amakaramu yo kwandikamo, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi, bameze nkaho bari mu nama bose.

Abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye amapantaro, abandi bambaye amakabutura n'udupira, abandi bambaye inkweto. Bari mu muhanda munini wa kaburimbo, barimo barakora imyitozo ngororamubiri bakora siporo zo kwiruka.

Uducuma tw'umukara ndetse n'ikindi gisa ikigina biteretse mu nzu ku musambi. Hari n'utundi tuntu dufite irangi ry'umweru n'umukara. Imbere yaho hari,..

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, inyuma ye hari inka nyinshi z'inyambo, zifite amahembe ateze neza, ni nyinshi ziratandukanye, ziri mu ifamu, hakurya hari ibiti.

Ipironi ririho insinga nyinshi zinyuranye hafi yaho hari ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bimeze nk'amapiloni, bifite amabara y'umukara n'umweru. Nabyo biriho insinga zigiye ahantu hatandukanye.

Ni muri salo dekwafili, aho umusore ari kogosha umusaza ufite imvi. Muri salo dekwafili harimo ibikoresho nyine biranga inyogosho zitandukanye yogosha, ndabonamo imashini, televiziyo, dore n'amatara arimo aramurikira uyu muntu uri kogosha, harimo intebe, umusaza bamukenyeje.

Ni inzu ihagazeho umuntu uri mu idirishya, hari umwana urimo imbere wicaye kuri kuri shezi, hari umugore uhetse umwana na we wicaye hanze kuri kandagira ukarabe, hari abantu bafatanye urunana, iyi nzu amadirishya yayo yose abiri arakinguye n'ayo mo imbere arakinguye rwose.

Inzu isize irange ry'ubururu ndetse n'umukara hasi, isakaje amabati y'ubururu iruhande rwayo hari umusirikare uhahagaze wambaye impuzankano, hejuru yayo hari amagambo yanditseho handitse gira ubuzima.

Ikigo nderabuzima cyitwa ikaze, hari abantu batandukanye abirabura n'abazungu, bambaye imyenda itandukanye. Ni ikigo nderabuzima gisize irangi ry'ubururu, handitseho amagambo atandukanye, hari n'abarwayi bategereje guhabwa serivisi z'ubuzima.

Ni imbaho zivanze n'ibiti, hejuru yaho hakaba hatanmbitse amaferabito ebyiri, hari ubutaka rwose, n'umwanya ugaragara hagati y'imbaho n'ibiti.

Abantu begereye hafi y'imodoka bashaka kwinjiramo, umwe ayaca agakapu afite n'agapara karimo ji, yambaye umupira w'ubururu n'ingofero n'ipantaro y'ikigina, undi yambaye ipantaro n'inkweto z'umweru n'ishati y'umweru, bari hafi y'imodoka ya kwasiteri ihagazemo umuntu.

Icyapa kiri ku muhanda kerekana aho abanyamaguru bambukira, imbere y'aho hari ikindi cyapa kerekana aho imodoka zihagarara, hafi y'aho hari ibiti bitandukanye bifite uturabo tw'umuhondo.

Ni icyapa kiranga amerekezo cyanditseho eni cumi n'umunani ave, hari ikindi cyapa kitagaragara neza gihari, hirya yaho hari amazu y'ibiti ndetse n'umuhanda, borodire zayo ni igitare n'umukara.

Ikibuga cy'umupira kimeze neza, hari umuzamu uhagaze mu izamu wambaye imyenda y'icyatsi, abasore batatu bambaye imyenda y'umuhondo n'undi wambaye imyenda y'ubururu, yambaye ikabutura agiye gutera umupira ishoti.

Abantu batandukanye bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu. Bamwe bari kureba muri telefone abandi barimo barareba imbere. Inyuma yabo hari igikuta kiri mu ibara ry'umuhondo. Imbere hari intebe nziza z'abayobozi zicayemo akana gato.

Umugabo n'umugore barimo baragenda, umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'amarinete, umugore yambaye ipantaro y'umukara n'agapira kagufi, inyuma yabo hari umusore wambaye imyenda y'ubururu.

Abakobwa babiri, umwe wambaye ikabutura y'ubururu n'umupira w'ubururu, uvanzemo utubara tw'umweru n'amasogisi y'icyatsi, agiye gutera umupira ari kumwe n'undi wambaye imyenda y'umukara n'amasogisi y'umukara n'inkweto zifunze.

Imodoka y'umweru ya toyota, iri mu muhanda wa kaburimbo ,hafi yaho hari uturongo tw'umweru ducagaguye, undi murongo w'umweru ukomeje uri kuri kaburimbo. Hakurya ya kaburimbo hari ibiti by'ishyamba birebire cyane .